Iri ni ipoto kandi ririho itara rimurika ku muhanda, rinariho ikoranabuhanga rya internet ariyo bita kanari bogisi byose bikaba bishamikiyeho byose.

Izi ni ofise nkuru za sehashika ibi ni ibiro abayobozi bakuru b'ibitaro bakoreramo ku bitaro bya sehashika.

Iki ni icyapa kikwereka ko ugomba kugendera mu muvuduko wa mirongo itandatu, munsi yaho hakaba hari n'akandi kapa bari kumanika kagaragaza ko hari kamera ipima umuvuduko.

Aha ni mu Kanogo ugana za Gikondo, gusa iyi ifoto iracuritse.

Aha ni Kicukiro hafi ya ayipiyarasi.